Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare, ahagaze mu murima w'ibigori, ndetse afashe agafuka ari gushyira ifumbire ku bigori bitari byera.

Amateke akiri matoya ndetse abagariye, hagati hateyemo n'insina, imbere yayo hari inyubako y'amatafari ya rukarakara ndetse ku ruhande rwayo hari ibiti n'ibyatsi biyakikije.

Umugabo uhagaze ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku giti cy'ikinyomoro, ndetse yambaye ipantaro yambaye n'umupira w'umweru w'amaboko magufi ndetse ufite n'ikora, imbere ye hari amashami ariho ibinyomoro, bidahiye ndetse na kimwe gihiye.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye ndetse bari mu gikorwa kimwe, bamwe barahagaze abandi barunamye ndetse bamwe muri bo bafashe amasuka bari guhinga, inyuma yabo hari umuhanda mugari ndetse unyurwamo n'imodoka.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari guhinga mu murima ndetse urimo ibyatsi byinshi, inyuma yawo hari insina ndetse hari n'ibiti by'ubwoko butandukanye bigandaye ndetse bari guhinga batatanye, bamwe bari ku mpande zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bari rwagati mu muhanda, bari mu gikorwa cy'umuganda wa rusange bamwe bampagaze abandi barunamye, ruguru yabo hari ishyamba ndetse no hepfo yabo hari ishyamba, bafite amasuka mu biganza byabo.

Abagore n'abagabo bari mu gishanga cy'umuceri weze ndetse bari gukora imirimo itandukanye, bamwe bari gupima abandi bari gusarura umuceri, ruguru yabo hari insina ndetse ziteyemo n'ishyamba rikeya ndetse riri ahantu h'agasozi ugereranyije n'aho bari mu gishanga.

Umuhinzi w'umugabo ufashe umusaruro mu biganza bye ugizwe n'ibigori bitanu ndetse bitonoye, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse inyuma ye hari insina n'ibiti biteye mu bigori rwagati ndetse ibigori birumye.

Ishyamba rikuze ndetse ry'inzitane, imbere yaryo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza ndetse ayo hejuru yandikishije ibara ry'umutuku, ayo hasi yandikishije ibara ry'umukara ndetse icyo cyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu batatu basutamye, ku ruhande rw'iburyo ni ho hari abagore babiri naho ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo, imbere yabo hari udufuka dutanditseho imbuto n'imboga by'ubwoko butandukanye ndetse inyuma yabo hari inyubako isize amarange ashaje.

Abagore babiri bari gusoroma imboga mu karima k'igikoni ndetse kubatse mu buryo bugezweho, umugore uri ku ruhande rw'iburyo yambaye itaburiya y'ubururu ndetse uri ku ruhande rw'ibumoso akenyeye igitenge ndetse yambaye n'umupira w'amaboko magufi, inyuma yabo hari igikuta gikikije inzu ndetse inyuma yacyo hari izindi nzu zubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wunamye mu murima w'inyanya ndetse akikiye inyanya mu biganza bye byombi, yambaye isengeri y'umuhondo n'ipantaro yahinnye, imbere ye hari igitebo kirimo inyanya ndetse zihishije, hirya ye hari ishyamba rigari ndetse rikiri ritoya.

Icyapa kigizwe n'amabara abiri ubururu n'umweru cyanditsweho amagambo y'umweru mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo y'umukara mu ibara ry'umweru, imibare yanyandikishije ibara ry'ubururu mu ibara ry'umweru ndetse iki cyapa kiri mu busitani, hirya yacyo hari inyubako ya Gitwe ndetse isize irangi ry'umuhondo.

Umuhinzi wa kijyambere ndetse wabigize umwuga, wambaye bote, ipantaro ndetse n'umupira w'amaboko magufi, yambaye n'ingofero y'urugara, ari kuhira imyaka ikiri mitoya ndetse ibagaye, imbere yayo hari agahanda ndetse haranazitiye uruzitiro rw'imiyenzi.

Umugore usutamye ukenyeye igitenge ndetse yambaye n'umupira w'umukara w'amaboko magufi yambaye n'ingofero y'umukara mu mutwe, imbere ye hari umufuniko uriho udushwi tw'inkoko ndetse w'umutuku n'imbabura irimo amakara ndetse imbere y'amakara n'umufuniko hari udushwi twinshi twegeranye.